Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse n'ifatashusho yifashishwa kugira ngo n'utahageze abashe kumenya ibyabaye.

Icyumba cyakorewemo inama kikaba cyiganjemo abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo abagore abana ndetse n'urubyiruko, harimo n'abayobozi bakaba bifashishije ibikoresho bitandukanye kugira babashe gukora iyo nama, harimo imfatashusho ndetse n'imfatamajwi.

Inama yitabiriwe n'abagabo, abagore, abasaza ndetse n'abakecuru, bakaba bafite ibikoresho bakoresheje kugira bashe gutambutsa ubutumwa bwabo neza. Twavuga nka mikoro bakoresheje kugira ngo babashe kumvikanisha icyo bavuga neza ndetse n'imfatashusho yifashishijwe kugira ngo buri wese utaje abashe kumenya ibyabaye.

Abakozi bakora ku Karere basobanurira abaturage ko gukorera ku mihigo ari ingenzi kuko bibafasha guhigura ndetse bikanabafasha kwiteza imbere igihe bakoreye ku ntego. Ni byiza ko natwe baturage tugomba kumvira abayobozi bacu kugira ngo tubashe kugera ku ntego yacu mu buryo bworoshye.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abitabiriye inama babashe kubyumva neza, twavuga nk'indangururamajwi yifashishwa, intebe zifashishwa bicara ndetse n'ifatashusho yifashishwa, kugira ngo buri muntu wese atabashije kugera aho ngaho abashe kumenya icyabaye.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ize kubasha kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, imfatashusho yifashishwa kugira ngo buri umwe wese aze kubasha kubona ibyabaye ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo abari aho bose babashe kumva.

Mu cyumba gikorerwamo inama, haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe, abitabiriye inama bicaraho, imfatashusho yifashishwa kugira ngo babashe kwerekana n'abatahageze babashe kubona icyabaye, ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri muntu wese uri aho ngaho abashe kumva.

Icyumba gikorerwamo inama, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza, twavuga: nk'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri muntu wese abashe kumva, igishushanyo mbonera kigaragaza ibyo bagiye kwigaho ndetse n'imfatashusho ikoreshwa kugira ngo buri umwe wese aze kumenya icyabereye aho ngaho.

Mu nyubako zikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ize kubasha kugenda neza, twavuga nk'indangururamajwi bakoresha kugira ngo buri umwe wese abashe kumva, intebe bifashishaha abaje kuyitabira inama bakicaraho ndetse n'imashini bifashisha mu gushaka amakuru atandukanye, kuri iyo nama baba barimo bakora.

Icyumba cyakorewemo inama, kikaba kirimo abantu bagiye batandukanye, haba abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru, bakaba bafite amazi ku meza, abegereye, hakaba harimo amashakoshi y'abantu bayazanye ndetse hakaba harimo na mikoro, barimo bakoresha, bavuga.

Mu cyumba gikorerwamo inama, haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza, twavuganye nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse n'imfatashusho yifashishwa kugira ngon'utahageze abashe kubona icyabaye.

Ababyina imbyino gakondo bavuga ko ari ingenzi kubera ko bifasha gususurutsa abantu baririmba indirimbo za kera zarangaga umuco nyarwanda, baba bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha kugirango babashe kuririmba harimo nk'ingoma yo kuvuza, ikivugisho kizwi nk'umurishyo, ndetse n'imyenda baba bambaye harimo inshabure n'amayugi.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo, bavuga ko ari byiza gususurutsa abantu, baririmba indirimbo za kera kubera ko bigaragaza umuco, nyarwanda wo hambere. Baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira babashe kuririmba neza nk'ingoma imirishyo, amayogi ndetse n'amashabure baba bambaye.

Amacumu ni kimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda, amacumu yifashishwaga igihe umuntu yabaga agiye kwitakuma agiye kwivuga ndetse amacumu akaba yarakoreshwaga no mu bindi bintu bigiye bitandukanye; ni byiza ko tugomba kumenya ibikoresho byabakoreshwaga kera kugira ngo tubashe kumenya umuco waranze u Rwanda rwo hambere.

Ababyinyina imbyino gakondo baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gususurutsa abaririmo babareba, twavuga nk'indangururamajwi bifashishwa kugira ngo babashe kuririmba neza, inshabure ari yo myenda bakoresha babyina, amayugi ndetse n'imfatashusho yifashishwa kugira utahageze abashe kubona ibyabaye.

Kurasa ni ikimenyetso kigaragaza umuco warangaga abanyarwanda bo hambere. Babaga bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha igihe babaga bari kurasa harimo nk'umwambi, imiheto, icumu ndetse n'amashabure. Ni byiza ko bagomba kuba bafite ibyo bikoresho kugira ngo babashe kurasa neza.

Ubukwe ni ikirori gihuza abantu benshi bagiye batandukanye, biganjemo abakuze ndetse n'urubyiruko. Ni ikirori kigaragaza umuco nyarwanda wo hambere. Haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa rero kugira ngo ubukwe bugende neza. Twavuga: nk'intebe abitabiriye ubukwe bicaraho, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri muntu wese abashe kumva.

Igikoresho cy'umuvure ni igikoresho kigaragaza umuco nyarwanda, aho cyakoreshwaga barimo benga. Ni byiza ko tugomba kumenya ibikoresho bitandukanye byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere kubera ko ubu ngubu haje ibyuma byabugenewe bigomba gukoreshwa mu gihe cyo kwenga.

Ibiseke ni bimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda warangaga abanyarwanda ba kera ndetse n'u Rwanda rwo hambere, ibiseke byifashishwaga mu buryo bwinshi butandukanye nko kubishyiramo impano ugiye guha umuntu ndetse bikaba byarifashishwaga no mu bukwe.

Urusyo ni igikoresho cyifashishwa mu gusiya amasaka, imyumbati, ibigori ndetse n'ubugari, ni byiza ko iki gikoresho tugomba kukimenya kugira ngo tubashe kugikoresha neza kubera ko ari igikoresho kigaragaza umuco wo hambere n'uwaranze u Rwanda.

Igitaramo ni ikirori kitabirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo urubyiruko ndetse n'abakuze. Habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira icyo gitaramo kibashe kugenda neza, twavuga nk'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse n'ababyinnyi basusurutsa abari ahongaho.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi, gishishikariza abakozi bagikoramo ko ari ingenzi kujya gukora mu muriro w'amashanyarazi bambaye ibikoresho bisabwa kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwabo kujya mu kaga. Twavuga nk'ingofero yabugenewe ndetse n'ibisarubeti bifashisha kugira ngo birinde impanuka ya hato na hato.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi gisobanurira abantu bakiganamo ko ari ingenzi kujyamo bambaye ibikoresho byabugenewe kugira ngo barinde ubuzima bwabo kuba bwajya mu kaga, ni byiza ko tugomba kujya mu cyumba gikorerwamo imiriro y'amashanyarazi twambaye imyenda yabugenewe harimo: udusarubeti, udupfukamunwa ndetse n'ingofero kugira ngo turinde ubuzima bwacu.

Umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba, ababikoresha basobanura ko ari ingenzi kuko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi barimo bamurika kugira ngo babashe kubona ibintu bitandukanye cyanecyane iyo hatari kubona.

Isoko ry'ubucuruzi ryiganjemo ibikoresho bikoreshwa amashanyarazi, abacuruzi basobanura ko ari byiza kugira ibikoresho byose kugira ngo ababagana babashe kubona ibyo bakeneye bityo babashe kubona amafaranga menshi nt'ahandi hantu aciye.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi gishishikariza abakozi bagikoramo ko ari byiza kujya gukora mu muriro w'amashanyarazi bambaye ibikoresho byabugenewe kugira ngo birinde impanuka za hato. Twavuga nk'ibisarubeti by'akazi, ingofero ndetse n'umukandara bifashisha igihe barimo burira n'urwego rwabugenewe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi gisobanurira abakozi bagikoramo ko ari ingenzi kwambara ibikoresho byabugenewe, igihe barimo bakora mu muriro w'amashanyarazi. Bavuga ko ari byiza kuba bafite urwego bakoresha buririra, ibisarubeti baba bambaye ndetse n'ingofero zo mu mutwe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi gisobanurira abakozi bacyo ko ari ingenzi kujya gukora mu muririro w'amashanyarazi bambaye ibikoresho byabugenewe, nk'ibisarobeti, ingofero ndetse n'umukandara bifashisha bari hejuru kugira ngo bataza kumanuka, bakomeza bababwira ko ari ingenzi gusigasira ubuzima bwabo kugira ngo butajya mu kaga.

Ikigo k'igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi, gishishikariza abaturage ko atari byiza kwegera ahantu hose haherereye umuriro w'amashanyarazi, kubera ko bishobora gukora siliko, bityo ubuzima bwabo bukajya mu kaga. Ni byiza ko tugomba kumvira inama z'abaturuta, ndetse n'abahanga mu bigendanye n'amashanyarazi, kugira ngo turinde ubuzima bwacu kuba bwagwa mu kibazo.

Ikiraro gikikijwe n'amashyamba menshi kikaba cyubakishije ibyuma munsi hakaba harimo amazi, hejuru yaho hakaba hari imodoka, abakoresha imihanda bavuga ko ari byiza kububakira ibiraro bituma batakora impanuka igihe barimo bakoresha ibinyabiziga byabo.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi, gishishikariza abantu bose ko ari ingenzi kwirinda kwegera ahantu hari umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwabo kuba bwajya mu kaga. Ni byiza ko tugomba kugendera kure umuriro w'amashanyarazi kubera ko ushobora guteza inkongi y'umuriro bityo ubuzima bwacu tugasanga bwagiye ahabi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro w'amashanyarazi gisobanurira abaturage ko ari ingenzi kwirinda ahantu hose hari umuriro w'amashanyarazi kubera ko bishobora gukora siliko maze ubuzima bwabo bukajya mu kaga, bakomeza bavuga ko ari ingenzi ko n'abakozi babikoramo bagomba kwambara ibikoresho byabugenewe kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwabo.

Ibigega bishyirwamo amazi, ni ibikoresho byiza kubera ko bifasha abaturage kubika amazi bazakoresha igihe azaba yarabuze mu gihe cy'impeshyi. Ni byiza ko ibi bigega buri umwe wese agomba kuba yabigira cyangwa se bikaba ahantu hihariye nk'inyubako yabyo kugira ngo tubashe kubona amazi mu gihe yabuze.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'iby'ubuyobozi haba hari inyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'ibyumba byinshi bitandukanye, bikorerwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye. Basobanura ko ari ingenzi kubaka inzu ifite ibyumba byinshi kubera ko haba haganwa n'abantu benshi.

Ku nyubako zitanga serivisi zigendanye n'iby'ubuyobozi haba hari ibintu byinshi byibutsa abaturage kumenya inshingano zabo, nk'ibendera ribafasha kwibuka agaciro igihugu cyabo gifite ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira ababagana harimo nk'intebe bicaraho igihe bategereje ababaha ubufasha.

Abaturage bizigama basobanura ko ari byiza kubera ko bibafasha kwizigamira amafaranga bazakoresha igihe bageze mu zabukuru. Bashishikariza buri muturage wese ko ari ingenzi ko yagakwiye kwizigama, kugira ngo azabone amafaranga yo kwiteza imbere ndetse binamufashe kwizigamira amafaranga azakoresha igihe nta mbaraga agifite zo gukora ibindi.

Inyubako itangirwaho serivisi zigendanye n'ibyubuyobozi, ikikijwe n'ibintu byinshi bitandukanye hariho ibiti, ibigega, ndetse n'abantu bahicaye baje gushaka serivisi. Si ibyo gusa, kubera ko hari n'indabo ndetse na pasuparume.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, harimo ibigo nderabuzima. Abantu bahagana bavuga ko ari ingenzi kubera ko babafasha kumenya indwara barwaye bityo bakabasha kubona umuti. Bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kwakira abantu. Haba hari ibi ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kwakira ababagana. Twavuga: nk'intebe abicara aho babagannye ndetse n'ibindi bikoresho, harimo imiti n'ibikoresho bibafasha kubasuzuma.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ubuyobozi, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwita kuri abo bantu babaganye, twavuga nk'abayobozi babakira intebe bicaraho igihe bategereje ababafasha ndetse n'ubusitani buririmo ibiti bitandukanye baruhukiramo igihe bategereje ubufasha.

Mu nyubako zitunganyirizwamo amata, haba harimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa kugira ngo aya mata aze kuza ari mazima. Twavuga nk'amasafuriya batekamo, ubuyunguruzo bifashisha barimo bayayungurura ndetse n'amashyiga ya kizungu agezweho ku buryo bayateka neza nta mwanda ugiyemo.

Ikigo gitunganyirizwamo amata hakoreshwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo ayo mato aze kuboneka ari meza kandi afite ubuziranenge, twavuga nk'umuriro bakoresha bayacaniriye, amasafuriya bakoresha, ubuyunguruzo bifashisha bari kuyahurungurura ndetse n'ibindi bikoresho bafata kugira ayo mata babashe kuyabona ari mazima.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abitabire inama babashe kumva neza, twavuga nk'inbe bitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho ibikoresho byabo bitandukanye, nka telefone, amakayi bakoresha bandikamo ndetse n'amakaramu bakoresha bandika, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese uri aho ngaho abashe kumva ndetse n'ifatashusho yifashishwa kugira ngo n'utahageze abashe kubona icyahabaye.

Ahantu hateraniye abantu benshi haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abo bantu babashe kuza kumva neza. Twavuga nk'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva, imfatashusho yifashishwa kugira ngo n'utahabonetse abashe kuza kubibona ndetse n'intebe zifashishwa igihe barimo bicara.

Abaturage basobanura ko bishimira ukuntu abayobozi bamanuka bakaza kumva ibibazo byabo ndetse bakabaha n'inama zitandukanye, bakanabumvisha uburyo ki bagomba gukurikiza inshingano zabo nk'abaturage. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kubegera kugira ngo babashe kubaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'inama ku buzima, ku mikorere hagati yabo bityo birinde kubaho bafite amakimbirane.

Ahantu hakorewe inama, haba ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza, twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, imfatashusho yifashishwa kugira ngo buri wese utaje, abashe kubona ibyabaye ndetse n'indangururamajwi, ikoreshwa kugira ngo abari aho bose babashe kumva.

Ahakoraniye abantu benshi haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kugeza ubutumwa kuri abo bantu baje. Twavuga nk'intebe bicaraho, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga harimo nk'ibifata amashusho yifashishwa kugira ngo buri umwe wese utaje aze kubasha kumenya icyabereye ahongaho.

Abaturage bavuga ko ari ingenzi ko abayobozi bagomba kuza bakabegera bakababwira ibibazo byabo, bakabafasha kubikemura bityo bakirinda kubaho mu makimbirane, bakabaho neza buri wese akamenya uburenganzira bwa mugenzi we ndetse bakabana banubahana.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza, twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, imfatashusho ikoreshwa kugira ngo buri muntu wese utahageze abashe kumenya icyabaye n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo uri aho wese abashe kumva.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama ize kugenda neza twavuga nk'intebe bitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho amakayi bandikamo ibyo bavuga, amakaramu bakoresha bandika, imfatashusho ikoreshwa kugira ngo buri muntu wese udahari aze kubasha kumenya ibyabaye, indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo n'uri kure abashe kumva. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije mu cyumba cy'inama kugira ngo tubashe gutanga inama nziza.

Abayobozi bavuga ko ari byiza kwegera abaturage bakababwira ibibazo bigiye bitandukanye bahura nabyo mu buzima, bakabafasha kubikemura bityo bakabaho neza n'amakimbirane kugira ngo babashe gukuza uburenganzira bwa muntu, ndetse buri wese abashe no kubaha undi.

Mu cyumba gikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, imfatashusho yifashishwa ndetse n'indangururamajwi ikoreshwa kugira ngo buri muntu wese uri aho ngaho, abashe kumva ibyavuzwe.

Abaturage basobanura ko ari ingenzi guhura n'abayobozi kugira ngo babashe kubaganiriza ibibazo byabo, bityo bakabasha kubaho neza nta makimbirane bafitanye kubera ko abayobozi baba babahaye inama zitandukanye ndetse bakabaha n'umuti wo kubikemura.

Ihuriro ry'abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuze. Basobanura ko ari ingenzi ko abayobozi bagomba kuza bakabegera ndetse bakababwira ibibazo byabo, bakabafasha kubishakira umuti. Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abo bantu bari aho ngabo babashe kuba bakumva neza nk'indangururamajwi ibafasha kumva neza.

Abayobozi basobanura ko ari ingenzi kwegera abaturage, kugira ngo bongere babibutse inshingano zabo nk'abaturage, abaturage basobanura ko ari byiza kubera ko bavuga ibibazo byabo, ndetse abayobozi bakabafasha kubibonera umuti, bityo bakabaho neza nta makimbirane bafitanye hagati yabo.

Abantu benshi bicaye mu byatsi harimo, abagabo, abagore ndetse n'abana, hari umugabo uhagaze, urimo uvugana n'umuyobozi, abayobozi bavuga ko ari byiza kuganira n'abaturage kugira ngo babashe kumenya ibibazo byabo bityo babashe kubafasha kubisobanura neza.

Ahitabiriye abantu haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abitabiriye babashe kumva neza icyo bababwira. Twavuga nk'intebe abitabiriye bicaraho, indangururamajwi ikoreshwa ndetse n'imfatashusho ikoreshwa kugira ngo buri muntu wese utahageze abashe kubona icyabereye aho ngaho.

Ahateraniye abantu benshi haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abo bantu baze guhabwa ubutumwa bagenewe. Twavuga nk'intebe bifashisha bicaraho, indangururamajwi yifashisha kugira buri umwe wese abashe kumva, ndetse n'ifatashusho yifashishwa kugira ngo n'utahageze abashe kubona icyabaye.

Abatwara ibinyabiziga mu mihanda ya kaburimbo harimo: imodoka, moto ndetse n'amagare, basobanura ko ari byiza kuba baragejejweho ibikorwa remezo harimo nk'imihanda ya kaburimbo, kuko bibafasha kwirinda impanuka zimwe na zimwe ziterwa no kuba bakorera umwuga wabo mu mihanda itari myiza.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi mu modoka, basobanura ko akazi bakora bakishimiye kubera ko kabafasha gutunga umuryango wabo ndetse n'iterambere ryabo rikazamuka, bizigama mu bimina bigiye bitandukanye. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi ko buri umwe wese yagashatse icyo gukora kugira ngo abashe kuzamura iterambere ry'iwe.

Abakora umwuga wo gutwara ikinyabiziga cy'imodoka mu muhanda, basobanura ko ari ingenzi kuba barakorewe umuhanda wa kaburimbo, kubera ko bibafasha kwirinda impanuka zitandukanye ziterwa no gukorera umwuga wo gutwara imodoka mu mihanda mibi idakoze.

Abagenda ku binyabiziga mu mihanda ya kaburimbo basobanura ko ibyapa bashyira ku mihanda bibafasha kugabanya umuvuduko ndetse n'imirongo y'umweru baca mu mihanda ya kaburimbo ikaba ibafasha kwirinda impanuka zitandukanye ziterwa n'umuvuduko kubera ko iyo bahageze babanza bagahagarara bakareba ko nta mugenzi ukeneye kwambuka bityo bakabona gukomeza urugendo rwabo.

Abakora ingendo n'amaguru bavuga ko ari byiza kuba barabakoreye umuhanda wa kaburimbo kubera ko bibafasha kugenda neza ndetse bakagenda batanatsikira n'igihe bateze ibinyabiziga bikabafasha kwirinda impanuka zitandukanye, ziterwa no gukorera umwuga wo gutwara abagenzi mu mihanda mibi.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari umwuga mwiza kandi ubabeshejeho, bakavuga ko ari ingenzi kubikora kubera ko babona amafaranga atunze umuryango wabo ndetse bakabasha no kwizigama bityo iterambere ryabo rikazamuka nta handi hantu bakuye amafaranga uretse mu gutwara abagenzi.

Abakora umwuga wo gutwara ibinyabiziga ndetse n'abantu kuri moto basobanura ko ari byiza kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bikabafasha kubona amafaranga atunze umuryango wabo, ndetse n'ayo kwizigama bityo bakabaho neza, nta handi basabirije uretse kuba bakora ako kazi ko gutwara abagenzi.

Abantu benshi bari aho bategera imodoka, bakaba begereye imodoka bategereje, kuyijyamo ndetse hakaba hari n'abandi, bari mu modoka begereye inzu yubakishije amabati. Bavuga ko ari byiza, gutega imodoka kubera ko bibafasha kugera aho bajya, hakiri kare.

Abakora umwuga wo gutwara ibinyabiziga mu muhanda, basobanura ko ibyapa bashyirirwaho ku muhanda bibafasha gusobanukirwa neza amategeko bagakwiye gukurikiza igihe bari mu muhanda, bagakomeza bavuga ko ari ingenzi kuyakurikiza kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwabo kuba bwajya mu kaga.

Abaturage bavuga ko ari ingenzi ko abayobozi bagomba kuza bagakorana imirimo igiye itandukanye kugira ngo babashe kubagira inama, bityo babashe gukora neza ibyo bazi kugira ngo babashe kunguka mu byo bakora, babashe no kubaho neza.

Imbaga y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo ababyeyi ndetse n'urubyiruko, bamwe bari kuvuyora icyondo abandi bafite amasuka bari gukata, ni byiza ko tugomba gufasha abatishoboye kugira ngo tubashe kubageza ku iterambere abandi na bo bagezeho.

Ihuriro ry'abantu benshi biganjemo abagabo ,abagore, abana, abasaza ndetse n'abakecuru. Hakaba hari abayobozi batandukanye harimo abasirikare ndetse n'abapolisi. Impande zabo hakaba hari intebe ndetse n'amazi yo kunywa .Bakaba bari mu kidari gikoze mu ibendera ry'u Rwanda.

Ahakorewe inama haba hakenewe ibikoresho bitandukanye kugira ngo abitabirire inama babashe kumva neza ibyo babwirwa. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, amakayi bakoresha barimo bandika, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse n'imfatashusho ikoreshwa kugira ngo n'utahageze abashe kuba yabona icyabaye.

Abayobozi barimo nk'abasirikare bavuga ko ari ingenzi kwegera abaturage bakabagira inama mu bigendanye n'ubuhinzi kubera ko ari ingenzi bikabafasha kumenya uburyo bagakwiriye guhinga neza kugira ngo umusaruro wabo ubashe gutubuka kandi babashe kubona inyungu nyinshi.

Abantu benshi bicaye mu byatsi, impande zabo hakaba hari intebe n'amazi yo kunywa, hirya bo hakaba hari abana bari gukina bakaba bakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse no hafi y'aho hakaba hari amazu yubakishije amabati.

Ubyiruko ruvuga ko ari ingenzi iyo abayobozi bamanutse bakabegera bakabaganiriza byinshi bitandukanye, n'uburyo bashobora gukoresha biteza imbere, bakoresheje umurimo w'amaboko. Rero ni byiza ko abayobozi bagomba kumanuka kugira ngo babashe kwegera abaturage, ndetse n'urubyiruko rubafashe mu bintu bigiye bitandukanye.

Mu cyumba umuyobozi aba yicayemo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira abashe gukora akazi kiwe ka buri munsi .Twavuga nk'intebe umuyobozi aba yicayeho, ameza ashyirwaho ibintu bitandukanye nk'ibikoresho yifashisha kugira abashe gukora akazi kiwe neza, mashine yifashishwa mu gushaka amakuru atandukanye ku byo arimo akora.

Abakora umwuga w'ubuhinzi basobanura ko iyo abayobozi bamanutse bakabereka uburyo bagomba guhinga neza, ari ingenzi kuko kuko bibafasha kubona umusaruro mwinshi kandi utubutse, abakozi bashinzwe iby'ubuhinzi, ni byiza ko begera abaturage, bakabereka uburyo bagomba guhinga kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza kandi uboneye.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kubera bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe ndetse n'ibyumba byabugenewe bikorerwamo imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe gukora imyitozo ngororamubiri igiye ihagije kandi i igiye inatandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe ndetse n'ibyumba bikorerwamo imyitozo ngororamubiri igi itandukanye, kugira ngo tubashe kugorora ingingo z'umubiri wacu.

Gukora imyitozo ngorora mubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kubea ko biturinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe ndetse n'ibyumba byabugenewe bikorerwamo siporo, kugira ngo tubashe kugorora umubiri wacu neza.

Abakina umukino w'umupira bavuga ko ari umukino mwiza kubera ko ubafasha gukora imyitozo ngororamubiri, bakirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, mu buzima bwabo. Bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibaha n'amafaranga bigatuma baba n'ibyamamare ku Isi yose.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko biturinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe ndetse tukanagana ibigo byabugenewe bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kuzamura ubuzima bwacu tubuvana mu kaga.

Gukora imyitozo ngorora mubiri mu buzima bwacu ni ingenzi kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngorora mubiri ihagije, ni byiza ko tugomba kugana ibibuga bitandukanye bikorerwaho imyitozo ngorora mubiri tugahura n'abantu benshi batandukanye tugakora imyitozo ngorora mubiri igiye itandukanye, bityo ubuzima bwacu bukagenda neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima ni ingenzi kuberako bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe ndetse n'ibyumba byabugenewe bikorerwamo imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Abana batatu bari mu kibuga iruhande rwabo hakaba hari umupira bakaba bambaye imyenda ya siporo ndetse bakaba begereye n'ibyatsi bakaba bari mu kibuga barimo bakina, bavuga ko ari byiza gukina umukino w'umupira kubera ko bibafasha gukora imyitozo ngororamubiri ihagije.

Gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu ni ingenzi, kubera ko biturinda kurwara indwara za hato na hato ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko tugana ibibuga byabugenewe ndetse n'ibyumba byabugenewe bikorerwamo siporo, kugira ngo tubashe gukora siporo bityo umubiri wacu ubashe kugenda neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Ni byiza ko tugomba kugana ibibuga byabugenewe ndetse tukagana n'inzu zabugenewe zikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri niingenzi mu buzima bwacu kubera ko bidufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza ko tugana n ibibuga byabugenewe bikorerwaho imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibyumba byabugenewe bibamo ibikoresho bidufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, basobanura ko ari umwuga mwiza kubera kuba ubafasha kubona amafaranga ndetse bagatugwa n'imiryango yabo bityo iterambere ryabo rikazamuka kuko babona n'ayo gushyira mu bimina. Bavuga ko ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora amasuku mu mihanda basobanura ko ari byiza kuko isuku mu mihanda kubera ko iba icibwamo n'abantu benshi bagiye batandukanye, bakomeza basobanura ko ari ingenzi kuko bibafasha kumera neza ndetse bakirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutagira isuku ihagije.

Imihanda ya kaburimbo ni imihanda ifasha abatwazi b'imodoka ndetse n'abatwazi ba moto n'amagare, kugenda neza batatikira kubera ko, bibarinda impanuka zitandukanye ziterwa no gukoresha imihanda mibi, idakoze neza.

Abagenzi basobanura ko ari byiza gutunganyirizwa imihanda, kuko bibafasha kugenda neza nta kibazo bahura nacyo. Ni byiza ko tugomba kwita ku baturage, tubagezaho ibikorwa remezo nk'imihanda, kugira ngo babashe kubaho neza ndetse n'ubuzima bwabo bubashe kubaho neza.

Abagenzi basobanura ko ari ingenzi gukorerwa imihanda myiza kugira ngo babashe kugenda neza bityo biririnde kuba batsitara bitewe no kugenda mu mihanda mibi, bakomeza bashimira ubuyobozi bubagezaho ibikorwa remezo harimo nk'imihanda haba mu byaro ndetse no mu mijyi.

Abagenzi bo bakomeza basobanura ko ari ingenzi kwegerezwa ibikorwa remezo barimo nk'imihanda haba mu mijyi ndetse no mu byaro, bavuga ko ari ingenzi kuko bibafasha kugenda neza ntibadatsikira; ni byiza ko tugomba kwegereza abaturage ibikorwaremezo kugira ngo babashe kugenda neza by'umwihariko imihanda.